Hashyizweho gahunda yo kubaho ntawe wiyegamije, mu gihe ushaka kwibagisha ushobora guhabwa izo serivise mu bitaro biri hirya no hino.

Umwana muto ubona ko ari inyuma y'inzu, afite icupa mu ntoki rye, ririmo amazi ubona ko ari wenyine akeneye umuntu umuganiriza, mu rwego rwo gukurana urukundo ndetse yishimye.

Gulobo Helifu Aliyandee, ikigo mpuzamahanga kigirana amasezerano n'ibihugu bitandukanye, ku buryo bwo kubona imiti, yifashishwa mu kuvura abarwayi byoroshye binyuze muri gahunda ya twisungane.

Ubufasha n'inkunga bitangwa n'umuryango mpuzamahanga yunisefu ni ngombwa ko ubufasha itanga bugera ku bana bose ntawuhejwe kuko itavangura.

Abaturage batandukanye ubona ko bitabiriye inama rusange yiganjemo abashinzwe umutekano, ubona ko hari umugabo uhagaze imbere y'imbaga uri kuyiganiriza ku ngingo yateguwe y'inama.

Umwana mutoya wambaye imyenda y'ishuri, ubona ko afite ibirahuri bibiri birimo amazi asa neza, iruhande rwe hakaba hari amazi yo mu gishanga asa nabi, bigaragara ko hakurya hari abandi bana bari kumurebera. Ni byiza gukoresha amazi meza asukuye mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abana ubona ko bateraniye ku mugezi bari kumwe n'umubyeyi, ubona ko ari abana baje gushaka amazi ku ivomero ryegerejwe abaturage kugira ngo bimakaze isuku ishingiye ku gukoresha amazi meza.

Umugabo ubona ko yishimye, uhagaze afite ibuni yaje kuvoma ku ivomero rusange ryegerejwe abaturage mu rwego rwo gukwirakwiza amazi meza, hirindwa indwara ziterwa no gukoresha amazi adasukuye.

Icyumba kinini ubona ko kirimo imbaga y'abaturage biganjemo abagore n'abagabo, bose bafite udukayi bari kwandikamo ingingo z'ingenzi ziri kuganirwaho, ku bigendanye n'imibereho ndetse n'uburyo bakwiye kwirinda zimwe mu ndwara.

Abarwayi bahuriye kwa muganga, ubona ko bari guhabwa serivisi n'abakozi bakora mu nzego z'ubuzima, aho umubyeyi ari gutanga ibyangombwa byiganjemo mituweri, mu rwego rwo guhabwa uburenganzira bwo guhura na muganga kugira ngo asuzume umurwayi.

WASAC ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi meza hirya no hino mu baturage, hagamijwe kugabanya indwara ziterwa no gukoresha amazi adasukuye.

Abaturage bahagaze ubona ko bari kwifotoreza imbere y'icyumba gisanzwe gikorerwamo inama, ubona ko bari bari kuganira kuri gahunda zigiye zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko bari mu muhanda, bafite ibyapa by'ubukangurambaga bwo kurwanya indwara mu baturage hagamijwe kugukora isuku ndetse no kubungabunga amazi, bagakoresha amazi asukuye ndetse bakarya indyo yuzuye mu rwego rwo kwita ku mibereho myiza izira indwara.

Abantu bari mu kirango cya unicef, ubona ko abagabo bambaye amashati asa nk'ubururu, nk'iki kirango cya unicef, umuryango mpuzamahanga ushinzwe gutanga inkunga ndetse n'ubufasha.

Imbaga yahuriye mu kibuga kinini cyane ubona ko habaye igikorwa cyo kuzamura imirire y'abana, aho abakorerabushake bari kugenda bafasha ababyeyi guha abana igikoma gikubiyemo intungamubiri mu rwego rwo kurwanya imirire mibi mu bana.

Umugore ubona ko ahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, ufite mikoro mu ntoki, uri kuganiriza abitabiriye inama, haganirwa ku gikwiye gukorwa kugira ngo bateze imbere imibereho y'abaturage izira indwara.

Umugabo ubona ko yicaye, imbere ye hari umugore ufite umwana, uri kugira inama uyu mubyeyi uko akwiye kwita ku mikurire y'umwana we, hibandwa ku kumushakira indyo yuzuye ndetse no kumuhesha inkingo, no kumugeza ku nzego z'ubuzima igihe cyose abona umwana afite ikibazo.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye, biganjemo urubyiruko, ababyeyi ubona ko bahuriye ahantu hamwe, barimo kwifotoza ubona ko bose bahagaze.

Abanyeshuri ubona ko abari mu gikorwa cyo kuvoma, amazi yo gukoresha ndetse bari gukaraba intoki zabo bifashishije, amazi meza n'isabune mu rwego rwo kubungabunga isuku, no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Icyumba cyateraniyemo ababyeyi baje gusuzumisha abana babo imikurire, bari guhabwa ubujyanama n'umuryanama w'ubuzima uko bakwiye kwita ku mikurire y'abana babo, babaha imiti ndetse babahesha n'inkingo uko biteganywa.

Icyumba kirimo bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi, harimo ibitanda n'imashini zabugenewe, mu gusuzuma abarwayi, igihe umuganga ari kubafata ibizamine, byo kugaragaza uburwayi, kugira ngo bahabwe imiti, igendanye n'indwara barwaye.

Abana bakiri bato, ubona ko baje kuvoma ku ivomero rusange bashyiriweho mu rwego rwo kwegereza abaturage amazi meza, ndetse no kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yo mu bishanga, bari gufashwa n'umukobwa kuvoma ayo mazi, ubona ko haruguru yabo haparitse imodoka.

Abagabo babiri ubona ko bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, ubona ko umwe afite ikibazo cy'imvune y'akaboko ahambiriye ndetse ari kugirwa inama y'uko akwiye kwitwara kugira ngo ingingo ze zongere gukora vuba.

Urugaga rw'abaganga ubona ko bambaye imyenda yabugenewe mu gukora akazi k'ubuganga, ubona ko bateraniye mu cyumba barimo kwifotoza bose bazamuye ibiganza.

Abana batoya ubona ko umubyeyi wabo ari kubafasha gukorera isuku intoki zabo mbere yo gufungura mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, ni ngombwa ko dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere yo kurya ndetse n'igihe tugiye gutegura amafunguro.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda batambika iruhande rw'ivomero rusange, ubona ko hari umwana ufite akabido ari kuvoma amazi afashijwe n'umunyeshuri, mu rwego rwo kubungabunga amazi ndetse n'isuku.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku mugezi rusange, ubona ko harimo abana, abagore n'abagabo baje kuvoma amazi meza, begerejwe mu rwego rwo kwirinda gukoresha amazi y'ibishanga aba adasukuye.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye ubona ko bari hafi y'umuhanda ndetse hari n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari umugore ufite ikarita y'akazi wambaye n'ijile igaragaza ko ari umukozi ushinzwe kwita ku mibereho y'abaturage, uri kugenda utanga ibinyamakuru kuri buri muturage kugira ngo abisome akuremo inyigisho zikubiye muri ibyo binyamakuru.

Icyumba kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa igihe, hagaragaye umurwayi ufite ikibazo cyo guhumeka umwuka udahagije, hifashishwa bimwe muri ibi bikoresho kugira ngo bimufashe kubona umwuka mwiza wa oxygen wo guhumeka.

Abaturage benshi batandukanye, ubona ko bagiye ku ivomero rusange bitwaje amabido asa neza yo gutwara amazi mu ngo zabo, mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza bushingiye ku gukoresha amazi meza asukuye.

Urugaga rw'abajyanama b'ubuzima, ubona ko bateraniye kwa muganga, bari guhabwa amwe mu mahugurwa y'uko bakwiye gukoresha ibikoresho igihe bari kwita ku barwayi babagana, nk'uko batera urushinge umurwayi, ndetse n'uko bashobora gufata ibizamini bitandukanye, kugira ngo babashe gufasha ababagana.

Urugaga rw'abantu batandukanye biganjemo abagore n'abagabo ubona ko harimo n'umuzungu muri bo, bamwe bicaye abandi bakaba bahagaze inyuma yabo barimo bifotoza.

Urugaga rw'abakozi bashinzwe ibigendanye n'ubuzima mu Rwanda, bahuriye mu cyumba cy'inama bari kuganira ku ngamba zikwiye gufatwa mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, bambaye neza amakositime meza cyane.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ubona ko bari mu gikorwa cyo guha urukingo abana bakiri bato, hagamijwe kwita ku buzima bw'abana bahabwa inkingo uko bikwiye mu rwego rwo kwirinda impfu z'abana bakiri bato bapfa bazize indwara.

Umubyeyi ubona ko ari kumwe n'abandi batandukanye bari muri sale yakirirwamo abarwayi, uteruye umwana mu ntoki ze ndetse n'ifishi ategereje kuganira n'umuganga kugira ngo yite ku buzima bw'umwana we.

Umwana ukiri muto uri ku ivomero ubona ko afite indobo ari kuvoma amazi ndetse ari gukaraba intoki ze, ni byiza kwibuka gukorera isuku intoki mbere yo kurya twifashishije amazi meza n'isabune.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bahuriye kwa muganga, bari gusuzumisha imikurire y'abana babo, babafasha guhabwa inkingo zagenewe abana, zibarinda kanseri y'inkondo y'umura.

Umwana ubona ko ari gukaraba, ibiganza bye yabishyize ku iriba, inyuma ye hari abantu bamukurikiye ubona ko bari kunywa amazi, amazi ni ingenzi cyane mu buzima kuko aturinda kugira umwuma ndetse tukagira n'ubudahangarwa ku mubiri.

Icyumba kinini, ubona ko cyahuriyemo, imbaga y'abantu biganjemo abagore n'abagabo, ubona ko hagati yabo hahagaze umugore, uri kubagani ku ngamba zikwiye gufatwa, mu rwego rwo kurwanya indwara mu miryango igiye itandukanye.

Umubyeyi ubona ko ufite umwana urwaye, ubona ko yamujyanye kwa muganga ari kwitabwaho n'abaganga, bapfuka ibikomere umwana afite ubona ko yahuye n'impanuka, umubiri we wose wuzuye ibikomere.

Urubyiruko rwateraniye mu cyumba giteguye neza, ubona ko bari guhabwa ubujyanama ku buzima bwabo hibandwa cyane cyane kubigisha ingaruka zibaho igihe habayeho imihindagurikire y'umubiri.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku ivomero rusange, ubona ko ari igikorwa begerejwe cy'amazi meza, azabafasha mu kubungabunga ubuzima bwabo birinda indwara ziterwa n'amazi adasukuye y'ibishanga, ubona ko bazanye ibikoresho byo gutwara amazi yabo byiganjemo amabito ndetse n'ibindi.

Ikigo cy'amashuri ubona ko ari ikigo cyubatse neza cyane kiri ahantu hiherereye, ubona ko hari urugomero rw'amazi menshi azajya yifashishwa mu bikorwa bitandukanye, ubona ko hari abakozi bari kwita kuri urwo rugomero kugira ngo habungwabungwe ubuziranenge bwarwo.

Uko ibaruramari rigenda rigaragaza uko imyanya ihagaze ku bigendanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye mu kazi, bigaragara ko mirongo itanu na gatanu ku ijana bibiri na cumi n'umunani, byari bigizwe n'abagore na ho mirongo irindwi ku ijana akaba ari abagabo.

Umuganga ubona ko ari kwifashisha kimwe mu gipimo kifashishwa mu gupima umurwayi, igihe ari gusuzumwa uko ubuzima bwe buhagaze, kugira ngo ahabwe ubufasha hagendewe ku ndwara arwaye.

Icyumba kinini cyiza kiri kuberamo inama rusange, ubona ko harimo abagabo bambaye amakositime n'abagore bicaye bose ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, ku mutwe hakaba hari umugabo wicaye wenyine ubona ko ariwe uri kuyobora ibiganiro.

Inshinge ndetse n'umuti byifashishwa mu kwita ku buzima bw'umuntu iyo umurwayi arwaye ajya kwa muganga akaba yahabwa imiti igiye itandukanye, hari iyo bamuha mu buryo bw'inshinge cyangwa se ibinini hakurikijwe uburwayi aba yasuzumwe

Umugabo ubona ko yicaranye n'umujyanama w'ubuzima, ari gusuzumwa indwara y'agakoko gatera SIDA, ndetse ari guhabwa n'ubujyanama k'uko akwiye kwitwara mu rwego rwo kwirinda agakoko gatera sida akora imibonano mpuzabitsina ikingiye.

Abajyanama b'ubuzima ubona ko bishimiye igikorwa cyo kugerezwa ikigo nderabuzima cya Mayange, ubona ko bambaye amakarita y'akazi ndetse n'imyenda y'akazi, abajyanama b'ubuzima bafite inshingano zo kwita ku buzima bw'abaturage ndetse no gutanga ubujyanama ku birebana n'ubuzima.

Iyo uwo mukobwa ubona ko yaje kuvoma amazi yo gukoresha muri gahunda zitandukanye, iruhande rwe hari ibikoresho yifashisha mu gutwara amazi, ku iriba ryiza begerejwe.

Ababyeyi ubona ko bahuriye ku mugezi, bari kuvoma amazi bifashishije indobo, ubona ko ari igikorwa bafashijwemo n'umushinga wa UNICEF, wabegereje amazi hafi meza.

Icyumba ubona ko cyateraniyemo abantu b'ingeri zose, abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko haganirwa ku buryo hakwiye kurwanywa umubare munini w'abangavu batwita, binyuze mu biganiro ndetse n'ubukangurambaga bwigisha urubyiruko kwirinda.

Umubyeyi uteruye umwana we ubona ko ari umujyanama w'ubuzima wicaye imbere ye ufite urushinge uri gutera umwana, mu rwego rwo kumurinda zimwe mu ndwara zikunze kwibasira abana bakiri bato nka kanseri y'inkondo y'umura, ni ingenzi cyane guhesha abana inkingo uko biteganyijwe mu rwego rwo gukurikirana imikurire yabo n'imibereho myiza yabo.

Abana abakiri bato ubona ko bari ku mugezi bari gukaraba bifashishije ubukarabiro rusange bakoresheje amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ababyeyi batandukanye, bahuriye ahantu, ubona ko bari muri gahunda yo guha abana imwe mu miti ibafasha gukira inzoka zo mu nda, ubona ko ababyeyi na bo bazanye abana babo kubahesha ibinini.

Umubyeyi uryamye ku gitanda cy'abarwayi ubona ko afite ikibazo, iruhande rwe hari umurwaza ndetse n'umuganga ufite igikoresho yamushyize ku nda, ari kumva uko umwana uri mu nda we ari gutera kugira ngo abone uko umuha ubutabazi.

Ababyeyi bari mu cyumba bishimye bizihiwe ubona ko bari kubyina bya kinyarwanda, bateze amaboko ubona ko babanye neza ubusanzwe nta kibazo bafitanye.

Urujya n'uruza rw'abaturage bateraniye kwa muganga, muri gahunda yo gupimisha imikurire y'abana babo, ubona ko hari umubyeyi ufite umwana baryamishije mu gipimo kugira ngo harebwe uburebure bwe...

Icyumba kinini kiza ubona ko cyateraniyemo abagore n'abagabo buri wese afite ikayi ari kugenda yandikamo zimwe mu ngingo z'ingenzi ziri kuganirwaho muri iyi nama, ubona ko imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi.

Umubyeyi wagiye gusuzumisha umwana we ku mujyanama w'ubuzima, ubona ko umujyanama w'ubuzima afite bimwe mu bikoresho byabugenewe mu gupima uko umutima w'umurwayi uri gutera kugira ngo akusanye ibimenyetso amenye indwara bityo amuhe imiti agendeye ku bimenyetso.

Icyumba kinini kirimo abantu bagiye batandukanye, abirabura n'abazungu, ubona ko bari mu nama bari kuganira kuri bimwe mu bibazo bikunze kugaragara mu miryango hirya no hino mu nzego z'ubuzima, hibandwa ku gufata ingamba zigikwiye gukorwa, kugira ngo ubuvuzi bugere ku baturage kandi bubagereho ku gihe bubegereye.

Umwana muto ubona ko, ari gufashwa n'umugabo kwikorera ibuni y'amazi, ubona ko iriho ikirangantego cya UNICEF, umuryango ufasha abana ndetse ugatanga n'ubufasha mu nzego zigiye zitandukanye, ubona ko umwana avuye kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo.

Abagabo basa neza, bambaye neza, bambaye kositime na karuvati ndetse ubona ko bamwe bafite n'amakarita y'akazi, bari gusuhukanya, baseka, bakorana mu biganza, ubona ko bishimiranye.

Umwana muto ubona ko wambaye inifomo ari gukorera isuku intoki ze yifashishije kandagira ukarabe, akaraba amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umubyeyi ubona ko agiye kuvoma amazi yifashishije indobo, ari kuvoma amazi ku migezi begerejwe hagamijwe guteza imbere imibereho y'abaturage bakoresha amazi meza asukuye mu rwego rwo kurwanya indwara ziterwa n'umwanda.

Urugaga rw'abajyanama b'ubuzima, bateraniye mu cyumba kinini gisa neza, ubona ko bari guhugurwa ku bigendanye n'uko bakwiye kwita ku barwayi bagiye babagana ndetse bakabaha ubujyanama, ku bigendanye n'ubuzima, mu rwego rwo kurwanya indwara.

Abanyeshuri biganjemo abakobwa n'abahungu ubona ko bari mu ishuri rwose bigeze igihe cyo gufungura bari kurya, ubona ko ari gahunda yashyizweho mu rwego rwo gufasha abana bose kubonera amafunguro hamwe ndetse bikarinda ingaruka ziterwa no gutsindwa binyuze mu kudafata amafunguro saa sita.

Abaganga ubona ko bari mu cyumba bari kwifotoza, bafite udukarito mu ntoki zabo, bambaye imyenda yabugenewe igihe bagiye kubaga umurwayi, higanjemo udupfukamunwa, amashashi yabugenewe yifashishwa kugira ngo hirindwe gukwirakwiza indwara zishobora gukwirakwira binyuze mu maraso, igihe bari kubaga umurwayi.

Umugabo ubona ko yicaye yigunze yipfutse mu maso, ubona ko afite ibitekerezo akwiye kuganira mu rwego rwo gusigasira imikorere y'ubuzima bwe bwo mu mutwe.

Urugaga rw'inzobere zishinzwe gukora igenzura ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ihohoterwa rikorera abana, bahuriye mu nama higwa ku ngamba zikwiye gufatwa kugira ngo barwanye ihohoterwa iryo ariryo ryose, imbaga yiganjemo abaturage, inzego z'umutekano ubona ko bose bateraniye hamwe.

Gahunda y'ubuvuzi bwo mu mutwe, yashyizwe mu mashuri yo mu Rwanda muri za kaminuza mu rwego rwo kongera umubare w'inzobere, zishinzwe kwita ku barwayi bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi wicaye uri kuganirizwa ku kibazo cy'uko akwiye kwita ku mibereho ye, hakurikijwe bimwe mu bimenyetso agaragaza byo kuba afite uburwayi bw'ubuzima bwo mu mutwe.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu cyumba gisa neza, ubona ko harimo abafite amakarita agaragaza akazi bakora, bari kuganirizwa kuko bakwiye kwita ku mibereho myiza ishingiye ku mitekerereze birinda ibyo aribyo byose bishobora gutuma imitekerereze ya muntu yitabwaho.

Abeshi bari mu cyumba, ubona ko bishimye, bose barimo guseka bitewe n'ibiganiro byiza bari kugezwaho ku bigendanye n'indwara zikunze kwibasira ubuzima bwo mu mutwe.

Abaturage bateraniye mu rugo rw'umuntu ubona ko bari kumuganiriza, afite ikibazo cy'ihungabana mu rwego rwo gusigasira imitekerereze ye ndetse ahabwa ubujyanama bw'uko akwiye kwitwara kugira ngo habungwabungwe ubuzima bwe bwo mu mutwe.

Isange One Stop Centre, ni ikigo cyashyizweho n'urwego rwa leta, kigamije gukumira ibyaha bishingiye ku ihohoterwa ndetse kigaha ubufasha umuntu uwo ari we wese wahohotewe, kikamuha ubutabazi bw'ibanze burimo imiti imurinda gusama ndetse no kwandura agakoko gatera SIDA.

urujya n'uruza rw'abarwayi bafite indwara zerekeranye n'imikorere y'ubwonko ubona ko bari kumwe n'abajyanama babahora hafi bakabaganiriza mu rwego rwo gukomeza kubafasha kongera kumererwa neza ndetse no kugira imitekerereze mizima.

Abayobozi batandukanye, ubona ko bambaye imyenda igaragaza imirimo bakora ndetse n'amakarita y'akazi, ubona ko imbere yabo hari ameza ateguyeho ibikoresho bari kwifashisha batanga ubujyanama ku buzima bwo mu mutwe.

Ikibuga kinini ubona ko kirimo amatsinda y'abantu bagiye bicara mu buryo butandukanye, imbere yabo ubona ko haparitse imodoka nini cyane, ubona ko ari igikorwa cy'ubuvuzi bwegerejwe abaturage hagamijwe kuganirizwa kugira ngo babafashe kumenya uko bakwiye kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe.

Icyumba cyateraniyemo urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagore n'abagabo, ubona ko bari kuganira ku ngaruka ziterwa no kutaganira neza harimo n'indwara z'ubuzima bwo mu mutwe, hagamijwe gufatwa imyanzuro yo kwita ku buzima bwo mu mutwe hatangwa ubukangurambaga hirya no hino gufasha abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi ubona ko yipfutse mu maso, bigaragara ko afite agahinda gakabije, akwiye kuganirizwa mu rwego rwo gusigasira imitekerereze ye kugira ngo adahura n'ikibazo cy'uburwayi bw'ubuzima bwo mu mutwe.

Umusaza ubonako asa nabi, yambaye imyenda yacikaguritse badaheruka gukorera isuku, ubwanwa bwe ndetse n'umusatsi ,ubona ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, akwiye kwitabwaho n'inzego z'ubuzima, bakamufasha, bakamuha ubutabazi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu ubona bahuriye mu cyumba, bari bari kuganira ku ngingo irebana n'ubuzima, hagamijwe guhugura abantu batandukanye, gufasha abarwayi bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bubungwabungwe ndetse bitabweho bongere bamere neza.

Urujya n'uruza rw'abaturage biganjemo inzego z'umutekano, ubona ko bafite icyapa kiriho ubutumwa bukangurira abantu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'izindi hohoterwa ryose rikorerwa mu miryango, ubona ko ari umugabo uri kugenda asoma amagambo binyuze mu ndangururamajwi.

Icyumba cyateraniyemo abantu bagiye batandukanye, ubona ko bari kuganira ku ngingo yo gusigasira imikorere myiza y'ubwonko, hibandwa ku kugaragaza bimwe mu bimenyetso biranga umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'ubufasha akwiye guhabwa kugira ngo yitabweho n'inzego z'ubuzima

Ababyeyi ubona ko bafite umwana wa bo, hagati ya bo ubona ko umwana wa bo yambaye imyenda isa nabi cyane, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe bamujyanye ku nzego z'ubuzima kugira ngo bashe kuba bamuha ubujyanama n'imiti imufasha gukira indwara y'ubuzima bwo mu mutwe.

Children and Adolescent Mental Health, ni igikorwa cyagenewe kugira inama abana bakiri bato, bagirwa inama y'uko bakwiye kwita ku mibereho yabo ndetse bagahabwa inama zigendanye n'ubuzima bw'imyororokere.

Icyumba kirimo inzobere zigiye zitandukanye ziri kuganira, ku gitera uburwayi bwo mu mutwe, ndetse haganirwa ku gikwiye gukorwa kugira ngo umubare w'abarwayi bo mu mutwe ugabanyuke.

Umugabo usa nabi cyane ubona ko afite imisatsi yakuze ubona ko yicaye hagati y'ipine, bigaragara ko afite kimwe mu bibazo bishingiye ku mitekerereze, akwiye guhabwa ubujyanama ndetse hagakurikiranwa n'ubuzima.

Umugabo ubona ko yicaye ahantu wenyine, ubona ko aboshye amaguru, bigaragara ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, akwiye kwitabwaho n'inzego.

Umuntu wicaye hafi ubona ko asa nabi, ari kurya ibyatsi bisa nabi, ubona ko iruhande rwe hari ibicupa by'amazi ndetse bigaragara ko ashagawe n'abantu benshi, bigaragaza ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe akwiye kwitabwaho n'inzobere.

Umusaza ubona ko yambaye ingofero ndetse wakenyeye umukenyero, ufite icumu mu kiganza cye bigaragara ko ari kubyina yasetse wakutse amenyo, ariko ikigaragara cyo afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akwiye kwitabwaho n'inzego z'ubuzima.

Umugabo ubona ko asa nabi cyane wambaye imyenda yacikaguritse ufite amashashi mu ntoki arimo amazi, ubona ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe akwiye gukirizwa ibitaro byita ku barwayi bo mu mutwe agahabwa serivisi z'ubuzima.

Abantu benshi batandukanye bahuriye mu kibuga, ubona ko bicaye mu matsinda bari kuganira ku ndwara y'ubuzima bwo mu mutwe, hagamijwe gutanga ubujyanama bw'icyo abantu bakwiye gukora kugira ngo harwanywe indwara y'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo ubona ko yicaye ahantu hasa nabi wegamiye igikuta, iruhande rwe ubona ko hari imyanda igiye itandukanye, ubona ko ari umuntu wambaye imyenda isa nabi, bigaragaza ko afite uburwayi bugendanye n'ubuzima bwo mu mutwe akwiye kwitabwaho n'inzobere.

Icyumba kiza ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa igihe umuganga ari kwita ku murwayi, ufite ikibazo cy'amenyo, ubona ko hari ubukarabiro n'imashini zabugenewe, mu gusana amenyo y'umurwayi.

Umuntu ubona ko ari gukorera isuku amenyo ye, yifashishije umwe mu gakoreshwa kabugenewe mu gukura imyanda iba iri hagati y'iryinyo n'irindi, mu rwego rwo kwirinda kwangirika kw'amenyo bitewe n'umwanda.

Uwo mugabo ubona ko ari guseka ariko ari gukorera isuku amenyo ye, yifahishije agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo, gakura imyanda iba yaheze hagati y'iryinyo n'irindi, uburosoba buba butabashije gukuramo neza, mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umurwayi ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, ubona ko ari umuganga ufite bimwe mu bikoresho byabugenewe mu gukura amenyo y'umurwayi uri kwitabwaho kugira ngo akurikiranwe, hasigasirwe ubuzima bwiza bw'amenyo ye.

Umurwayi uryamye ku gitanda, ubona ko bamushyizeho bimwe mu bikoresho, bifashisha igihe bagiye gukura umuntu amenyo, urabona ko abaganga biteguye bafite ibikoresho byose bikenewe kugira ngo bamukure amenyo.

Mu ishuri ubona ko harimo abanyeshuri benshi bishimye, buri wese afite umuti wabugenewe mu gusukura amenyo, bashyize hejuru. Ni ngombwa gukorera isuku amenyo twifashishije imiti yabugenewe, mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'amenyo twirinda ko yakangirika.

Umurwayi ubona ko aryamye ku gitanda cyagenewe abarwayi bafite uburwayi bw'amenyo, ubona ko hari umuganga ugiye kumuvura uburwayi bwe bw'amenyo yifashishije bimwe mu bikoresho byabugenewe mu kuvura amenyo, haba kuyakorera isuku cyangwa se kuyakura ndetse no kuyasana.

Umugabo ubona ko afite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, uri kwitabwaho n'umuganga amufasha kumuhindurira amenyo, hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, mu gusimbuza amenyo.

Umuganga ufite igishushanyo mbonera cyifashishwa iyo hari kwigwa uburyo ki bakwiye gukoresha kugira ngo ukure umuntu mu buryo bugezweho, bityo hirindwa ingaruka zose zishobora kuba igihe umuganga agiye gukura umurwayi iryinyo.

Umukobwa ubona ko rwose ari guseka, asa neza, ubona ko yakoreye isuku amenyo ye ni ngombwa ko twibuka gukorera isuka amenyo yacu twifashishije umuti wabugenewe, mu rwego rwo kwirinda indwara, zandurira mu kanwa ndetse ziterwa n'umwanda wo kudakorera isuku mu kanwa.

Icyumba ubona ko bagiteguye gisa neza kirimo bimwe mu bikoresho byifashishwa n'umuganga, igihe agiye gukura umurwayi amenyo cyangwa se agiye kuyasana, igihe abona ko amenyo ye ashobora kuba yagira izindi mbogamizi.

Umugabo ubona ko ari kwireba mu kirarahuri, uri gukorera isuku amenyo ye yifashishije agakoresho kabugenewe, mu gukura imyanda, iba yaheze hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo abungabunge ubuzima bw'amenyo ye aburinda indwara ziterwa no kudakorera isuku amenyo.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo agatanda kagenewe umurwayi igihe agiye gukorerwa igikorwa cyo gukurwa amenyo cyangwa se bagiye guhoma amenyo ye.

Abana babona ko bari mu cyumba bari kwigishwa uko bakwiye gukorera isuku amenyo yabo, bifashishije uburoso ndetse n'umuti wabugenewe mu gusukura amenyo, ubona ko buri mwana yahawe agapaki k'umuti.

Umurwayi ubona ko arwariye kwa muganga, afite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo ari kwitabwaho n'abaganga, bari gusana amenyo ye yangiritse bifashishije zimwe mu mashini zabugenewe gusana amenyo.

Umugabo ukeye uri guseka neza cyane, ubona ko afite amenyo asa neza, mu ntoki ze afite igishushanyo kiriho ubwoko bw'amenyo umuntu ashobora guhabwa mu gihe amenyo ye yangiritse nk'insimburangingo.

Umuntu ubona ko ari gukorera isuku ye amenyo, yifashishije kamwe mu gakoresho kabugenewe gusukura amenyo, avana imyanda hagati y'amenyo n'andi, mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwiza bw'amenyo, yirinda indwara ziterwa n'umwanda uterwa no kudakorera isuku amenyo.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko bitabiriye gahunda yashyizweho yo kurwanya indwara zandurira mu kanwa, ubona ko ubuganga bwegereye abaturage hafi abaturage bagiye kwisuzumisha indwara zo mu kanwa, abafite uburwayi bagafashwa kwitabwaho,...

Abaganga ubona ko bari mu cyumba cyabugenewe bafite igishushanyo mbonera bari kwiga uburyo ki, bakwiye gutanga serivise zo gukura amenyo mu buryo butari bwangize umurwayi.

Abanyeshuri bari mu ishuri ubona ko bishimye, bari guhabwa ubujyanama kuko bakwiye kwita ku menyo yabo mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu kanwa bitewe no kudakorera isuku amenyo yabo neza, bahawe umuti wifashishwa mu gusukura amenyo.

Icyumba cyiza, gisa neza, ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa igihe umuganga agiye gusana amenyo y'umurwayi yangiritse, cyangwa se agiye kuyakura.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bigezweho byifashishwa igihe umurwayi ari kwitabwaho n'umuganga, akicazwa kuri zimwe muri zino ntebe kugira ngo babashe kuba bamukura amenyo yangiritse cyangwa se bayasane.

Imbaga y'abaturage bateraniye mu kibuga, ubona ko bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, ubona ko hari umuzungu uteruye mwana, n'umubyeyi uri kuboha agatebo mu byatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hatatse neza, ubona ko bari mu gikorwa cyo gufasha abaturage batishoboye, babaha bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwita ku bana bakiri bato, habungwabungwa imibereho myiza y'abana.

Umukecuru ubona ko ari kumwe n'umukobwa, bari mu cyumba, ubona ko umukecuru ari gukora siporo, abifashijwemo n'umujyanama uri kumwereka, uko akwiye gukora siporo, mu rwego rwo kunanura ingingo ze, ndetse no kwirinda indwara, zishobora gufata ingingo ze, z'umubiri.

Umuryango ubona ko ugizwe n'umusaza n'umukecuru bari mu cyumba kinini kirimo intebe zitandukanye, ubona imbere yabo hari inyandiko bari kugenda basoma amwe mu mabwiriza akubiye muri iyi nyandiko.

Abagabo babiri ubona ko bari muri siporo ngororamubiri, bibishimye, bafite amacupa y'amazi bari kugenda banywaho mu rwego rwo kurinda umubiri wabo gutakaza amazi menshi bityo bikaba byatera ikibazo cyo kumagara k'umubiri, ni ingenzi cyane gukora siporo ariko ntunanize umubiri.

Umusaza uhagaze ufite icyuma cyabugenewe ubona ko ari gufashwa n'umuganga mu gukurikirana ubuzima bwe, ni ngombwa ko umuntu wese ufite ikibazo cy'ingingo tumufasha gutambuka kugira ngo ingingo ze zibashe gukora neza.

Ababyeyi babiri bicaye mu rugo, ubona ko bishimye, bari gukina imikino igiye itandukanye ikunze kumenyekana ku izina ry'igisoro, ni byiza kugirana imishyikirano n'abo tubana kuko bidufasha kwirinda amakimbirane ava mu miryango.

Umubyeyi ufite igikombe mu ntoki kirimo amazi meza, mu kindi kiganza ubona ko afitemo imiti agiye kuyinywa mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwe, akurikiza inama yagiriwe n'umuganga.

Imbuto zituruka ku bimera bitandukanye byakusanyijwe bigashyirwa hamwe. Bitegereje gutunganywa kugira ngo bikurwemo imitobe ibindi bikurwemo umuti, ushobora kwifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe.

Umurwayi ubona ko arwariye mu bitaro, hari umuganga uri kumwitaho agerageza kumukoresha zimwe muri siporo zishobora kumufasha kurambura ingingo ze, bifashishije umugozi kugira ngo barambure imiti y'akaboko kabashe gukora neza.

Ababyeyi babiri ubona ko bari kuganira bafatanye mu kiganza, umwe afite igikoresho cyifashishwa mu gupima umurwayi kugira ngo hamenyekane ko umutima w'umurwayi uri gutera kugira ngo ahabwe imiti imufasha.

Ababyeyi babiri bishimye ubona ko umubyeyi umwe yicaye mu ntebe zegamirwa, undi amuri inyuma, ubona ko bafatanye mu biganza bishimye bameze neza.

Umusaza wicaranye n'abana babiri, ubona ko bafite umugati mu ntoki zabo bari kurya bishimye, ni ngombwa ko mu byo kurya twita ku indyo yuzuye, ni ukuvuga ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'imbuto mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuryango wishimye ugizwe n'abantu batatu umwana n'ababyeyi babiri, ubona ko bari imbere y'ameza bamaze gufata ibyo kurya byujuje intungamubiri, ni byiza kwibuka kurya indyo yuzuye kandi ukibanda ku bikomoka ku matungo, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza.

Umuryango mugari ubona ko wateraniye mu rugo rumwe, bishimye bari kwifotoza ubona ko higanjemo abana abicaranye n'umukecuru ukuze bigaragara ko bamusuye baje kuganira nawe mu rwego rwo gushirana urukumbuzi.

Umuryango ubona ko wishimye wicaye mu cyumba, ubona ko bari gufungura ibyo kurya byuzuje intungamubiri, ubwo ni ukuvuga ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse hari n'ikirahuri cy'amazi meza, mu rwego rwo kwita ku mirire myiza igizwe n'indyo yuzuye.

Icyumba cyagenewe kwita ku barwayi ubona ko harwariye umusaza ufite ikibazo cy'ingingo, uri kugerageza gufashwa n'umugangakazi, amuhagurutsa kuri iki gitanda kugira ngo abashe kuba yatambuka.

Umubyeyi ubona ko afite ikibazo cy'ingingo ari kwitabwaho n'umuganga, umufasha gukora siporo ngororamubiri hifashishije akuma kabugenewe mu kugorora ingingo z'umuntu, ubona ko umuganga afite ibikoresho mu ijosi rye cyifashishwa mu gupima uko umutima w'umurwayi uri gutera.

Umuryango ubanye neza mu mahoro wicaye mu rugo, ubona ko umugore ari mu kazi ke yifashishije mudasobwa naho umusaza umuri iruhande ari kugerageza kumwereka umuti uri mu gacupa yandikiwe na muganga.

Umuryango ubona ko wishimye uri ku meza bari gufungura ibiryo, byiganjemo imbuto, umutobe mu rwego rwo gukomeza gusigasira imirire myiza igizwe n'indyo yuzuye, ni ukuvuga ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'imboga n'imbuto.

Umusaza ufite ikibazo cyo kutabona uri kwitabwaho n'umuganga amufasha gutera intambwe hifashishijwe ibikoresho byabugenewe mu gufasha impumyi gutambuka.

Umubyeyi ubona ko ari gukina n'umwana we basikete mu rwego rwo kugirana ibihe byiza n'umwana we, ni ngombwa ko ababyeyi bagira umwanya wo kuganiriza abana ndetse bagakina mu rwego rwo guteza imbere urukundo ruba hagati y'umwana n'umubyeyi.

Umuryango ubona ko wishimiye, umusaza n'umwana bari gukina imikino, ubona ko ari igikorwa cyiza, ni ngombwa kugirana ibihe byiza n'abana, kuko bibagura mu mitekerereze, ndetse bikabarinda kwigunga, bagakura bishimye, bityo bakagira imitekerereze myiza.

Umuryango ubona ko wishimye rwose ugizwe n'umugore n'umugabo, ubona ko banezerewe umugabo afashe umugore we ku rutugu barimo bifotoza ubona ko umugore ari guseka yabyishimiye.

Umukecuru wicaye ku ntebe ubona ko imbere ye hari imeza iterekaho ikirahure kirimo hari umuganga uri kumufasha gufata imiti ye kugira ngo agume kugira ubuzima bwiza.

Umusaza urwaye ubona ko afite abantu babiri bari kumufasha guhaguruka bifashishije uburyo bwo kumufata mu maboko, mu rwego rwo kugira ngo bamufashe kurambura ingingo ze.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye ubona ko bari gufata amafunguro, ubona ko inyuma yabo hari umuganga uri kubaganiriza, ukuntu ibyo bakwiye gufata mu rwego rwo kugukomeza gusigasira ubuzima bwiza.

Umubyeyi urwariye mu bitaro ubona ko yitaweho n'umugangakazi uri kugerageza kumukoresha siporo ngororamubiri, aho umubyeyi ari gukurura umugozi mu rwego rwo kurambura ingingo ze.

Ababyeyi babiri bishimye, ubona ko bari muri siporo ngororamubiri. Bose barambuye amaboko bari kureba mu ruhande rumwe, ni byiza gukora siporo kuko zifasha umubiri kugira ubudahangarwa bityo umuntu ntapfe kurwaragurika.

Umugabo ubona ko ari mucyumba, ufite ikirahuri cy'amazi mu ntoki ze, mu kindi kiganza harimo imiti, bigaragara ko agiye gufata imiti nk'uko yabyandikiwe n'umuganga.

Ubukangurambaga bwo kurwanya kanseri hirya no hino, hatangwa ubukangurambaga ku baturage bagiye batandukanye, bagirwa inama zo kugana inzego z'ubuvuzi mu gihe bafite bimwe mu bimenyetso bya kanseri.

Ku wa Gatanu tariki enye z'ukwezi kwa Kabiri, umwaka w' ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri, wari umunsi wahariwe kwita ku barwayi ba kanseri mu Rwanda hatangwa, ubujyanama ndetse n'inkingo ku barwayi bose ba kanseri mu gihugu.

Inama yateranije ,abayobozi, batandukanye yabereye i Kigali ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na kane, hagamijwe gutanga ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya Mabaga, hakumirwa, abantu guhurira ahantu hatandukanye, ndetse no gukora isuku keshi.

Umuhanzi w'umunyarwanda uzwi ku izina rya Mico the Best ubona ko ari kumwe n'umugore, bateruye igishushanyo kigaragaza ubukangurambaga bwo gushishikariza abaturage kurwanya indwara y'igituntu bitabira serivisi z'ubuzima.

Women's Health and Cancer Awareness ni gahunda yashyizweho na Leta mu rwego rwo kurwanya kanseri zikunze kwibasira igitsina gore, bahabwa inkingo ndetse n'ubujyanama ku burwayi bwa kanseri.

Ababyeyi ubona bambaye neza bitandiye udutambaro mu mutwe bikunze kwambarwa n'abantu bakora umurimo wihaye Imana, bari gusuhuzanya n'umugabo, wambaye ikote ubona ko basa neza, bari imbere ikirango kigaragaza ko habereye, ubukangurambaga ku bigendanye n'ubuzima bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abagore n'abagabo bambaye neza, ubona ko bari ku mirongo igera kuri ibiri ab'imbere bicaye ababakurikiye bakaba babahagaze inyuma bakaba barimo kwifotoza.

Indyo yuzuye ibigizwe n'ibitera imbaraga ibyubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'imbuto, byose ni ibifite ubushobozi bwo gutuma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse n'ubudahangarwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu cyumba cy'inama, bicaye bari kuganira ku ngamba zikwiye gufatwa kugira ngo barwanye zimwe mu ndwara zibasira abantu ndetse hagamijwe kugabanya umubare w'abantu bapfa buri mwaka bazize indwara z'ibyorezo.

Abantu batandukanye ubona ko bafite udukingirizo mu ntoki zabo, dukoreshwa igihe umuntu ari gukora imibonano mpuzabitsina, mu gihe ashaka kwirinda zimwe mu ndwara zishobora kwandura mu mibonano mpuzabitsina nka SIDA, Imitezi, Mburugu ndetse no kwirinda gutera no guterwa inda bitateganyijwe.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu mihanda, bari mu bukangurambaga bwo kurwanya kanseri, bifashishije ibyapa byanditseho amagambo ashishikariza umuntu wese kurwanya kanseri, yitabira ubujyanama ndetse agana ikigo nderabuzima mu rwego rwo kubungabunga ubuzima buzira kanseri.

Abaganga ubona ko bagiye gutangira igikorwa cy'ubuvuzi bw'amenyo aho abaturage bashobora kubasanga, batari gukorera mu bitaro, bari gusuzuma umusaza uko amenyo ye yangiritse kugira ngo bamwiteho.

Umubyeyi ubona ko yicaye ku ntebe, iruhande rwe hahagaze abaganga, barimo kumutera urushinge kugira ngo hafatwe ibizamini hamenyekane neza uburwayi afite, bityo bamuhe imiti imufasha.

Itangazo risohowe na komisiyo ishinzwe ubuzima mu Rwanda, rimenyesha abaturage bose kwipimisha indwara y'agakoko gatera Sida, bagana ibitaro bibegereye.

Abagabo basa neza n'abagore bambaye neza ubona ko bari mu cyumba giteguye neza, bose bicaye ku ntebe ubona ko bari kuganira ku ngingo zirebana n'ubuzima, hagamijwe gufatira hamwe ingamba zo kurwanya indwara zikunze kugaragara hirya no hino mu miryango.

Abaturage benshi ubona ko bahuriye kwa muganga bagiye kwisuzumisha indwara zigiye zitandukanye, kugira ngo babashe kumenya uko bita ku buzima bwabo kugira ngo birinde indwara z'ibyorezo bitandukanye.

Imbaga y'abantu nyamwinshi ubona ko bahuriye muri sale yabereyemo inama ubona ko abayitabiriye bose babahaye amakarita agaragaza ingingo nyamukuru yaganirwagaho hagamijwe guteza imbere ubuvuzi ndetse bwegerezwa abaturage.

Abaganga ubona ko bari mu cyumba cyihariye, bari kwita ku murwayi, bakoresheje imwe mu mashini zabugenewe mu kubaga umurwayi igihe afite uburwayi busaba ko bamukorera gahunda yo kubaga zimwe mu ngingo kugira ngo bazisimbuze bifashishije ibyuma byabugenewe.

Inyubako ubona ko isa neza cyane, ifite ubusitani bunini, yagenewe gukorerwamo serivisi zubuvuzi, ubona ko hari abaturage benshi baje kwivuza, bategereje kwakirwa n'abaganga kugira ngo bahabwe imiti ibafasha.

Inyubako nini ubona ko yagenewe gukorerwamo serivisi z'ubuvuzi, irimo ibikoresho byifashishwa mu gupima indwara ndetse irimo n'imiti ihabwa umurwayi igihe aramutse agaragaje imwe mu ndwara.

Umujyanama w'ubuzima ubona ko yegereye abaturage ari kubaganiriza zimwe mu ndwara zikunze kwibasira abaturage abagaragariza bimwe mu bimenyetso ndetse abagira inama yuko igihe cyose bumva batameze neza bakwiye kugana inzego z'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye imbere y'inzu itangirwamo serivise z'ubuzima, baje kwisuzumisha indwara zigiye zitandukanye kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

Icyumba kinini cyiza gisa neza, gisize amarange agiye atandukanye, ubona ko gifite imiryango igiye itandukanye, bigaragara ko hatangirwamo serivisi z'ubuzima, zigiye zitandukanye.

Ibyumba byiza kandi binini birimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo imashini z'ubwoko butandukanye, utubati ndetse n'intebe ebyiri, imwe yifashishwa n'umurwayi ndetse n'iyifashishwa n'umuganga.

Icyumba kiza, giteguye neza, ubona ko kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gihe umuganga agiye kubaga umurwayi yifashisha igitanda ndetse na zino mashini, mu rwego rwo kugira ngo yite ku buzima bw'umurwayi....

Ikigo giteguye neza ubona ko kirimo inyubako zikeye ndetse gifite n'ubusitani bwiza cyane, ubona ko hari abantu bari kunyura mu kayira kabugenewe mu rwego rwo kwimakaza isuku.

Icyumba cyiza kinini, ubona ko kirimo imashini zigiye zitandukanye zifashishwa mu kuvura indwara y'amaso, ubona ko imbere hamanitse ishusho igaragaza uko indwara y'amato igaragara nuko ifata ijisho.

Icyumba kiza ubona ko kirimo igitanda byagenewe kwita ku barwayi igihe umurwayi arwaye cyane akaba arwariye mu bitaro ari kwitabwaho n'umuganga.

Icyuma cyabugenewe mu gusuzuma zimwe mu ndwara yifashishwa umurwayi aryamishwa ku gatanda kaba kari imbere, ubundi bakamushyira muri iki cyuma kigatanga ishusho y'uko ingingo z'umurwayi ziri gukora cyangwa se zangiritse.

Ikigo nderabuzima, ubona ko gikeye, gifite ubusitani bunini bukorewe isuku, ndetse kigizwe n'amazu agiye atandukanye, hagati kirimo amatara agifasha kumurika igihe cy'ijoro, mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'ibitaro.

Inyubako yagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuzima ubona ko ifunze, biragaragara ko hari ikibazo cyo kuba hatemerewe kwinjirwa hari undi muryango bashobora gukoresha kugira ngo bakirwe.

Itsinda ry'abaganga ryahuriye mu cyumba cyihariye giteguye neza, kirimo ibikoresho byifashishwa iyo hagiye kubagwa umurwayi, bakifashisha bimwe muri ibi bikoresho kugira ngo igikorwa kirangire neza.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, ubona ko hari abaturage baje kwaka serivisi z'ubuzima ndetse n'umuganga uhagaze imbere y'iyo nyubako, ubona ko yiteguye gufasha abarwayi bose bagana icyo kigo nderabuzima.

Ikigo cyabugenewe mu gukora ubushakashatsi ku miti ndetse n'indwara mu Rwanda, ubona ko ari inzu nini igereyetse imbere yayo hari ubusitani, ndetse imbere yayo hakaba haparitse n'imodoka.

Icyumba kiza kinini uragenda neza, ubona ko giteguye harimo ibitanda byagenewe kwita ku barwayi. Ubona ko hari inzitiramibu zabugenewe zifasha mu kurinda umubu utera agakoko ka Malariya.

Inyubako nziza nini, ubona ko yagenewe ibikorwa by'ubuvuzi, irimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma zimwe mu ndwara ndetse ubona ko hanze yayo haparitse imodoka zigiye zitandukanye.

Inyubako yagenewe gutanga serivise z'ubuzima, ubona ko harimo urujya n'uruza rw'abarwayi baje guhura n'abaganga kugira ngo hitabwe ku buzima bwabo, ubona ko amarembo ahinjira hariho umuntu ushinzwe umutekano bityo abantu bahabwa uburenganzira bwo kwinjira bitewe na gahunda zibazanye.

Inyubako nziza ubona ko imbere yayo hari ihuriro ry'imihanda n'abaturage bari kugenda, n'imodoka ziparitse imbere yaho, hakaba hashinze idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu nziza yagenewe ababyeyi, ni ahantu hakirirwa umugore utwite uje kwa muganga ashaka kubyara, aho hari ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kubyaza neza umugore hasigasirwa ubuzima bwe n'ubw'umwana.

Icyumba ubona ko kirimo abarwayi baryamye ku bitanda byagenewe kwita ku barwayi ubona ko bari mu gikorwa cyo gutanga amaraso, igikorwa cyashyizweho na leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugabanya ibyago by'abantu bapfa babuze ubutabazi bw'amaraso.

Icyumba cyiza giteguye neza ubona ko cyagenewe kwita ku barwayi harimo matela ndetse n'imashini zifashishwa mu gupima uko umutima w'umurwayi uri gutera, kirasa neza kirateguye.

Icyumba kiza gitatse neza ubona ko kirimo indabo mo hagati ndetse n'intebe ziteye ku buryo bwiza ubona ko ari ahantu hagenewe kwakira abantu.

Inyubako nziza ikeye ubona ko ifite ubusitani bwiza ndetse yagenewe gukorerwamo servise z'ubuzima, irimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kwita ku barwayi.

Icyumba cyabugenewe giteguye neza gitunganyije mu rwego rwo kubungabunga ubuziranenge bw'imiti kugira ngo imiti izahabwa abarwayi izabe yujuje ubuziranenge, itazagira ingaruka ibagiraho bitewe no guhabwa imiti itujuje ubuziranenge.

Icyumba kiza kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kwita ku barwayi harimo imashini zabugenewe, udutanda turyamishwaho abarwayi ndetse n'amatara afasha umuganga kureba neza uburwayi bw'umurwayi.

Icyumba ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gihe umuganga agiye kwita ku murwayi ufite ikibazo gitandukanye, arimo aramusuzuma kugira ngo amenye neza uko amuvura akurikije ibimenyetso yamuhaye.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere cyashyiriweho gutanga serivisi ku baturage ba Rwerere mu rwego rwo gukomeza kwegereza ubuvuzi hafi abaturage hirindwa impfu ziterwa no kubura ubuvuzi bwegereye abaturage.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, ni kimwe mu kigo gitangirwamo serivisi z'ubuzima igihe umurwayi yumva atameze neza, agana ikigo nderabuzima agahabwa ubujyanama ndetse n'imiti imufasha gukira akongera akagira ubuzima bwiza.

Ibumba ryagenewe ubushakashatsi ku ndwara zigiye zitandukanye riherereye mu nzu ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi ubona ko ari icyumba kirimo bimwe mu bikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gushakashaka indwara zigiye zitandukanye kugira ngo zishakirwe urukingo.

Abantu batandukanye bicaye hanze y'inyubako yagenewe kwakira ababyeyi mu gihe baje kubyarira kwa muganga, iba irimo ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu kwita ku mubyeyi igihe agiye kubyara, kugira ngo habungabungwe ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite.

Abaturage biganjemo abana, ababyeyi, ubona ko bagiye gushaka serivisi z'ubuzima, bari kwakirwa n'abaganga umwe umwe mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwabo.

Inyubako nziza igeretse, ubona ko ifite ubusitani bunini kandi bukeye, hagati y'ubusitani harimo Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse ifite na parikingi, ubona ko muri parikingi harimo moto ndetse n'imodoka.

Inyubako nziza zigiye zitandukanye ziri ahantu hasa neza, hari ubusitani bwiza kandi bunini ubona ko ari inzu yagenewe gutangirwamo gahunda z'ubuvuzi.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi ahanini bafite ibibazo by'ingingo, bakoresha siporo ngororamubiri hifashishwa bimwe mu byuma bifasha umubiri kugira imbaraga.

Imashini yabugenewe mu gusuzuma zimwe mu ndwara zibasira umuntu ahanini zimufatira mu ngingo ziba zitagaragara inyuma bisaba ko abanza kunyuzwa mu mashini ikereka uko ingingo z'umuntu zangiritse kugira ngo abashe guhabwa ubutabazi.

Icyumba cyiza gisa neza ubona ko giteguye neza cyagenewe kwakira abarwayi, harimo ibitanda bishashe neza bigiye bitondetse ku murongo, igihe umurwayi azanywe mu bitaro kugira ngo yitabweho n'umuganga by'umwihariko ahabwa ibitaro agahabwa n'aho kuryama.

Icyumba kirwariyemo abarwayi, ubona ko bafite ikibazo cyo kubura umwuka uhagije, bari kwifashishwa zimwe mu mashini zabugenewe mu gufasha abarwayi kubona umwuka mwiza kandi uhagije.

Icyumba cyiza, kinini, ubona ko kirimo ububiko bw'imiti bugezweho, ubufite umutekano hibandwa ku gusigasira ubuziranenge bw'imiti kugira ngo izahabwe abaturage ifite ubuziranenge.

Icyumba ubona ko kiriho igitanda kiryamweho n'umurwayi, ku ruhande hari imashini zitandukanye, ubona ko uyu murwayi agiye gukorerwa igikorwa cyo kumubaga, mu rwego rwo gukomeza kwita ku buzima bwe.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, ubona ko ari ibitaro binini kandi bisa neza, bifite ubusitani bwiza, ubona ko imbere y'umuryango hari abaganga babiri bari kuganira.

Icyumba gituje gisa neza ubona ko cyagenewe kwita ku barwayi gikoreshwa umuganga ari gusuzuma umurwayi ukurikije ibitigeze harimo n'igitanda n'imashini ikoreshwa n'umuganga.

Icyumba kinini ubona ko kirimo abaganga bagiye batandukanye n'abarwayi batandukanye, ubona ko harimo n'abarwayi bafite ubumuga bw'ingingo, bicaye mu magare yagenewe gufasha ababana n'ubumuga bari kwitabwaho n'abaganga.

ikigo cy'ibitaro bya Butaro, giherereye mu ntara y'Amajyaruguru ,akarere ka Burera ,ubona ko icyapa kiranga aho giherereye, hari urujya n'uruza rw'abantu biganjemo, abazungu n'abirabura barimo kwifotoza.

Inzu nini yabugenewe itangirwamo amahugurwa ubona ko abantu bagiye mu gikorwa cyo gutanga amaraso, azifashishwa mu kwita ku barwayi bafite ikibazo cy'amaraso adahagije.

Abaturage bateraniye kwa muganga ubona ko bagiye kupimisha abana babo uko ubuzima bwabo buhagaze, ubona ko umwana ari mu gikoresho cyabugenewe bamwambika iyo bagiye gupima ibiro bye.

Icyumba gikoze neza ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo igitanda kiryamwaho n'umurwayi igihe umuganga arimo kumusuzuma ndetse ari kumuha imwe mu miti mu rwego rwo kwita ku buzima bwe.

Icyumba ubona ko kirimo abaganga ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi, ubona ko ari kwitabwaho n'inzobere z'abaganga, bari kumukorera gahunda yo kumubaga kugira ngo bamufashe kuvura uburwayi bwe.

Inzu nini nziza cyane ikeye ubona ko ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, igizwe n'ibyumba bigiye bitandukanye, icyumba kivurirwamo abafite ibikomere ndetse icyumba gitangirwamo ubujyanama ku bigendanye n'ubuzima ndetse n'ibindi.

Inzu y'imyidagaduriro ubona ko irimo bimwe mu bikoresho bitandukanye birimo ibipimisho by'abana byose bigamije ugufasha umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi kuba yakoresha ubwonko bwe neza akagira ibitekerezo ndetse n'ubuzima bwiza bushingiye ku mitekerereze.

Icyumba cyiza ubona kirimo igitanda cyateganyirijwe gukoreshwa igihe umurwayi ari kwitabwaho n'umuganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gupima uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Icyumba cyagenewe kwakira abarwayi, ubona ko kigizwe n'ibitanda n'ibindi bikoresho byose bikenenerwa kwita ku barwayi, ubona ko harimo abarwayi barembye cyane, bari gufashwa guhumeka hifashishijwe imashini zabugenewe, mu gutanga umwuka wa gusijeni.

Icyumba kiza gisa neza ubona ko kirimo imiryango itandukanye bigaragara ko gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima, igihe umurwayi agiye kwa muganga ahabwa umuganga umwitaho bitewe n'indwara arwaye.

Icyumba cyabugenewe mu gukorerwamo siporo ngororamubiri, ifasha abarwayi bafite ikibazo cy'ingingo kuba bagorora ingingo zabo bityo ingingo zikongera gukora neza.

Umurwayi ubona ko ari kuganira n'umuganga amuganiriza uko yumva ameze ndetse n'uko yafashwe mu rwego rwo gukusanya ibimenyetso kugira ngo ahabwe imiti.

Icyumba kinini bigizwe n'ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo ameza, intebe ndetse n'igitanda, bigaragara ko ari hamwe umuganga ashobora kwifashisha igihe agiye gusuzuma umurwayi.

Umurwayi ubona ko aryamye ku gatanda k'abarwayi, iruhande rwe hari umuganga uri kugerageza kumufata amaraso kugira ngo ajye gupima amaraso ye, bityo hamenyekane uburwayi afite ahabwe imiti imufasha gukira ubwo burwayi.

Icyumba ubona ko kirimo abarwayi n'abaganga bari muri gahunda yo gupima abarwayi umuvuduko w'amaraso, kugira ngo bahabwe ubufasha ndetse n'ubuvuzi n'igihe hakenewe ubujyanama babubahe kugira ngo bagomeze kwita ndetse no kwirinda indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Icyumba cyiza, gikoze neza, kirimo ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu kwita ku mubyeyi utwite igihe aje kubyara kugira ngo habungwabungwe ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi, harimo ibitanda biteguye neza ndetse n'imashini zifite ubushobozi bwo gupima ku mutima w'umurwayi uri gutera.

Icyumba ubona ko giteguye neza, cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zikunze kwibasira amaso, hagamijwe kuvumburwa uburyo ki hashyirwa imbaraga mu buvuzi bw'amazi.

Icyumba kinini ubona ko cyagenewe, gahunda yo kwakira abarwayi barwariye kwa muganga, kiri gukorwamo isuku n'abakozi babishinzwe ubona ko, ari kumanika supaneti aho umurwayi arwaye, kugira ngo abashe kuhakorera neza isuku.

Inzu nini cyane isa neza ubona ko ari izuba ryavuye, imbere yayo hahagaze abantu batandukanye ikaba ifite ubusitani n'aho binjirira, ubona ko hari abaturage bari kugana ibitaro bagiye kwaka iyo serivise z'ubuzima.

Icyumba kinini ubona ko gisa neza kirimo intebe zagenewe kwakira abarwayi benshi, mu gihe abarwayi bari kuganira na muganga, abandi baba bategererereje mu cyumba kugira ngo na bo baze gufashwa.

Icyumba cyiza kinini kirimo intebe ndetse giteguye neza ubona ko ari ahantu hagenewe kuganirirwa, igihe umurwayi agiye kuganirizwa by'umwihariko n'umuganga, ku birebana n'ubuzima bwe.

Abantu babona ko bamwe bari kugana ikigo nderabuzima, abandi bari gusohoka bamaze guhabwa serivise n'abaganga, ni ngombwa ko igihe cyose umuntu yumva atameze neza akwiye kugana inzego z'ubuzima, bakamufasha kwita ku mibereho myiza y'ubuzima bwe.

Umukobwa wicaye mu cyumba giteguye neza, ubona ko yateguye tapi yasobekeyije amaguru ye, yazamuye amaboko, mu rwego rwo gukora siporo ngororamubiri, iruhande rwe hariho ibindi byuma, byifashishwa mu gukora siporo bitandukanye n'ibyuma biterurwa kugira ngo akomeze imikaya y'amaboko ndetse n'amazi meza amufasha kugira ngo umubiri we uticwa n'umwuma.

Icyumba ubona ko cyuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gikorwa cyo kuvura umurwayi, hibandwa ku gupima uko umutima uri gutera, ndetse n'ibindi bibazo byose biri mu mubiri w'umurwayi.

Umugabo ubona ko ahagaze ahantu hirengeye, wambaye imyenda ya siporo uri kunywa amazi ayimena ku mubiri ubona ko ananiwe kandi akeneye kuruhuka, ni ngombwa gukora siporo zitananiza umubiri wawe kuko siporo nyinshi zishobora gutera ubundi burwayi.

Umugabo wambaye ekuteri, wambaye agapira k'umweru, ubona ko ari kunywa amazi mu icupa, yari ari mu gikorwa cya siporo, ni byiza cyane kunywa amazi menshi ahagije mu mubiri kuko biha umubiri ubudahangarwa ndetse bikarinda umubiri kumagara.

Icyumba abona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe byifashishwa, mu gutanga umwuka igihe umurwayi, dafite ubushobozi bwo guhumeka umwuka uhagije.

Umugabo ucaye uri kunywa amazi ubona ko arimo igikorwa cya siporo ngoramubiri mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuzima bwe hibandwa kwita ku ngingo ze kugira ngo yirinde indwara zishamikiye ku mubyibuho ukabije n'izindi ndwara zose ziterwa na siporo idahagije mu mubiri.

Icyumba ubona ko kirwariyemo umurwayi uri kwitabwaho n'abaganga, wacometsweho imashini kugira ngo hasuzumwe ikibazo umugongo we ufite bityo abashe guhabwa serivise z'ubuzima.

Umukobwa ubona ko aryamye mu cyumba cyiza cyane, ubona ko abyutse, ari kwinanura mu rwego rwo gutuma ingingo ze zikora, akajya mu mirimo itandukanye.

Akabox karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwita ku murwayi ufite ikibazo cy'imvune, harimo pomade, ibipfuko ndetse n'umukasi ushobora kwifashishwa igihe umurwayi agiye kudodwa.

Umurwayi ufite ikibazo k'ingingo ubona ko ari gukorerwa gahunda y'insimburangingo, hifashishijwe ibikoresho byabugenewe mu gusimbura ingingo, ubona ko ari igikorwa kitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye.

Abaturage batandukanye bahuriye muri siporo rusange ubona ko harimo abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye inkweto zabugenewe ndetse n'imyenda yabugenewe mu gukina siporo ndetse n'umupira w'amaguru.

Stop peyini ni umuti wifashishwa igihe umuntu afite ububabare, bitewe no kuba yavunitse ingingo, ashobora kuwukoresha yisiga bikaba byafasha umubiri we gukira ububabare bukabije.

Umukobwa wicaye ubona ko ari muri siporo ngororamubiri, wicaye ku mukeka w'ubururu, wahinye umugongo we, akarambura amaguru agashyira amaboko munsi y'ibirenge, mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwiza bw'ingingo ze.

Ishusho igaragaza abana bagiye batandukanye, bari gukora siporo ngororamubiri mu buryo butandukanye, hari kwinanura, kwirukanka, guterura ibyuma byabugenewe ndetse no gukina umupira w'amaguru, ubwo bwose ni bumwe mu buryo bwifashishwa mu gukora siporo ngoramubiri umuntu akora agamije kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyiza kinini ubona ko kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi, harimo nk'imipira yabugenewe mu gufasha umurwayi kubona umwuka mwiza kandi uhagije ndetse na kimwe mu gikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi igihe inyubako ihiye.

Imashini ipima uko umutima w'umuntu uri gutera, yambikwa umurwayi mu gihe arwariye mu bitaro, ikagaragaza niba umurwayi agihumeka cyangwa se yashizemo umwuka.

Umuntu uhagaze ufite icupa ryamazi mu kiganza cye ubona ko yari ari mu gikorwa cya siporo, ni ngombwa kunywa amazi menshi kandi ahagije mu gihe umuntu ari gukora siporo kugira ngo umubiri we udacika intege.

Umugabo uhagaze ufite icupa ririmo amazi ubona ko yari ari muri siporo, ari kunywa amazi kuko ari ingenzi cyane ku muntu wese uri gukora siporo, kuko bifasha umubiri we kutananirwa bityo akagumiza afite imbaraga.

Siporo ni ubuzima, siporo ni urukingo, igihe cyose umuntu akora siporo zitandukanye bimufasha kugira ubuzima bwiza ndetse umubiri we ukagira ubudahangagwa n'ubushobozi bwo kurwanya indwara zigiye zitandukanye nk'umubyibuho ukabije, guhumeka nabi ndetse n'izindi.

Imbuto zigiye zitandukanye, ubona ko zirimo amaronji, pome n'imboga ndetse n'umutobe uri mu kirahuri. Ku ruhande hakaba hari bimwe mu bikoresho bisangwa mu nzu za siporo, ubona ko hateguye.

Umugabo ubona ko ahagaze wambaye ekuteri ari kunywa amazi, mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza, yirinda ko umubiri we ushobora kumagara, bitewe no kubura amazi ahagije mu mubiri, aba yatakaje mu gikorwa cya siporo.

Ikirahuri giteretse ku meza ubona ko hari umuntu uri gusuka amazi muri iki kirahuri, amazi asa neza asukuye hifashishijwe imwe mu miti yabugenewe mu gusu amazi mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi adasukuye.

Umugabo ubona ko ari muri siporo ngororamubiri, ubona ko ahagaze mu muhanda yiyegamije ku byuma byagenewe gutangira, abagenzi kugira ngo batarenga umuhanda, wazamuye akaguru akaba yakarambitse ku cyuma.

Mu Rwanda hashyizweho imikino igiye itandukanye, harimo imikino njyarugamba aho abantu bahabwa umwanya bakagaragaza ubushobozi bafite mu gukirana bityo bagahabwa imidari hashingiwe kuwarushije undi.

Umukobwa wicaye mu cyumba ubona ko ari gukora siporo ngororamubiri, warambuye akaguru ke akaba yahese imbavu ze agakoresha amaboko ye munsi y'ikirenge cy'akaguru karambuye akandi akaba yagahinnye ubona ko ari kugorora ingingo ze.

Umwana ubona ko ari gusuzumwa n'umuganga, indwara zo mu kanwa, hifashishijwe icyuma cyabugenewe, mu kugenzura uko amenyo y'umurwayi yangiritse kugira ngo abone uburyo akwiye kwitabwaho.

Igikapu kinini k'ibara ritukura kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa kwa muganga nk'imikasi, ibipfuko, pomade ndetse n'ibyuma bipima uko umutima w'umurwayi uri gutera.

Siporo ni ubuzima, siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko idufasha kwirinda zimwe mu ndwara, ziganjemo umubyibuho ukabije, gutera nabi k'umutima, guhumeka nabi ndetse no kuba twagira ubudahangarwa bw'umubiri, ni ingenzi cyane gukora siporo mu buzima bwacu kuko biturinda kurwaragurika.

Umugabo ubona ko ateruye ibyuma byababugenewe mu gukora siporo biremereye, mu rwego rwo gukomeza imikaya y'umubiri we, ubona ko ku ruhande hari umutoza uri kugenda amufasha gukora siporo, bigendanye n'imbaraga z'umubiri we.

Umukobwa ukiri muto ubona ko ari muri siporo ngororamubiri, wambaye ekuteri ubona ko yicaye ahantu hatunganyije, warambuye akaguru akarambura n'amaboko ye, ukundi kuguru akaguhina mu rwego rwo kugorora ingingo z'umubiri we.

Icyumba kkiza ubona ko giteguye kirimo ibikoresho byabugenewe mu gukora siporo ngororamubiri, harimo ibyuma byo guterura ndetse n'imigozi yo gusimbuka byose byifashishwa mu gukora siporo zigiye zitandukanye bigira uruhare mu gutuma umuntu agira umubiri ufite imbaraga ndetse n'ubudahangarwa.

Imodoka yashyizwe kuri buri bitaro kugira ngo hifashishwe mu kugeza abarwayi kwa muganga ku gihe kugira ngo hakurikiranwe ubuzima bwabo hakiri kare, babashe gukira.

Umuntu ubona ko ateruye ibinika irimo amazi meza ari gusuka mu kirahuri, ni byiza kunywa amazi meza asukuye hifashishijwe imwe mu miti yabugenewe mu gusukura amazi, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Imikino igiye itandukanye ishobora gufasha umuntu kwirinda imwe mu ndwara ndetse ikaba yasubiza ubudahangarwa umubiri mu gihe umubiri wacitse intege, ni ngombwa gukora siporo zigendanye n'ubushobozi bw'umubiri kuko siporo nyinshi iyo zinanije umubiri ishobora guteza ubundi burwayi.

Umukobwa ubona ko ari ahantu hirengeye uri gukora siporo, wafashe akaboko ke akakazamura akagakoza mu mugongo we, mu rwego rwo gukoresha ingingo ze kugira ngo zitazamugara.

Umukobwa ubona ko ari muri siporo ngororamubiri, mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwiza bw'ingingo ze, ndetse yirinda n'izindi ndwara zose ziterwa no kudakora siporo harimo n'umubyibuho ukabije ndetse no kumugara kw'ingingo.

Imiti igiye itandukanye y'ubutabazi bw'ibanze harimo ibinini, pomade, ibipfuko, ni bimwe mu bikunze kwifashishwa mu gihe bari kwita ku murwayi ufite ikibazo cy'imvune z'ingingo, cyane cyane igihe yari ari mu bikorwa bya siporo akagiriramo ikibazo...

Ibiganza ubona ko bifite ibikomere, herekanwa uko umuntu ufite igikomere akwiye gupfukwa kugira ngo igikomere cye gikire ndetse bidateje ibindi bibazo, bishobora kuvamo nka Kanseri igihe igikomere hinjiyemo imwe mu myanda.

Umugabo wicaye ubona ko afite ikibazo cy'ingingo, afite ivi rimwe rifite ikibazo yafatishijeho agaponje kugira ngo yumve ububobere akwiye kwitabwaho n'inzobere kugira ngo zigenzure ikibazo kiri mu ivi rye.

Umugore ubona ko wambaye impenda ya siporo n'inkweto nziza cyane zabugenewe mu gukora siporo, azamuye akaguru kamwe akagakoza ku kibuno cye, akagafatisha ukuboko kumwe, ukundi akakwerekeza imbere mu rwego rwo gukora siporo ngororamubiri ndetse no kwirinda uburwayi bufata ingingo z'umubiri.

Umukobwa wicaye kuri tapi, ubona ko imbere ye hateretse imashini ari kureberamo siporo akwiye gukora kugira agorore umubiri we, wagerekeranyije amaguru, wafashe ukuboko kwe akagukoza ku rundi rutugu ndetse hari n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo n'ibyuma umuntu ashobora guterura bikarambura imitsi y'akaboko.

Umugabo wicaye ku gatebe ubona ko ari muri siporo ngororamubiri, ubona ko mu kiganza cye ateruye icyuma cyabugenewe mu kurambura imitsi y'umuntu ndetse no gukomeza imikaya mu rwego rwo kugira ubudahangarwa bw'umubiri.

Umuntu ubona ko ari mu cyumba cyagenewe gukora siporo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye nk'imipira yifashishwa mu gukora siporo imashini zabugenewe n'abantu gukora siporo ubona ko ahagaze ku gikoresho cyabugenewe yazamuye akaguru ke ndetse amaboko ye akaba yayashyize hasi.

Umukobwa ubona ko yambaye agasengeri k'umuhondo, wambaye ekuteri uri muri siporo ngororamubiri, ubona ko ari kuruhuka ari ahantu hirengeye wazamuye amaboko ye akayashyira hejuru y'umutwe we.

Umwana ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, ubona ko ari gukorerwa isuzumwa n'umuganga yifashishije icyuma cyabugenewe mu kugaragaza uburyo ki amenyo yangiriyetse kugira ngo harebwe ubushobozi ndetse n'ubufasha ashobora guhabwa.

Icyumba cyiza kirimo imashini yabugenewe mu gusuzuma abarwayi igihe bafite uburwayi bw'ingingo zitandukanye, bakaba bashaka kureba uko zimeze mo imbere, atari ugusuzumira inyuma.

Stopain umuti w'amavuta ukorwa mu bimera, ufite ububasha bwo kugabanya uburibwe igihe umuntu afite imvune z'ingingo, ashobora kuwisiga bikaba byamugabanyiriza uburibwe.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, byiganjemo inkweto zabugenewe, mu gukina umupira, hari umupira w'amaguru, ndetse n'icyuma cyifashishwa mu gupima uko umutima w'umurwayi uri gutera.

Umukobwa ubona ko yambaye isengeri, wambaye ekuteri, bigaragara ko ari muri siporo ngororamubiri, ubona ko yazamuye amaboko ye, kumwe akaguhina akagukoza mu mugongo, mu rwego rwo kunanura amaboko ye, kugira ngo abashe gukora neza.

Ababyeyi babiri ubona ko umwe afite ikibazo cy'ingingo, inyuma ye hari umuganga uri kumufasha gukora siporo zoroheje zimufasha kuruhura umubiri we ndetse no kugorora ingingo, mu rwego rwo gukomeza kwita ku ngingo ze.

Umugabo uhagaze ubona ko hejuru yambaye ubusa, ukora siporo rwose ukurikije uko imikaya ye igaragara ubona ko ku rutugu rwe hariho ibimenyetso bigaragaza ko ingingo ze zikora neza.

Umugabo ubona ko ari mu gikorwa cya siporo ngororamubiri, ufite amazi mu icupa ari kuyanywa, ni ngombwa gukora siporo kandi ukibuka kunywa amazi menshi ahagije, kuko umubiri uba watakaje amazi.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gukina imikino itandukanye, harimo umupira w'amaguru, umupira w'amaboko ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gupima uko umutima w'umurwayi uri gutera ubona ko biri ahantu hamwe, byashyizwe hamwe bifite isuku.

Umugore wicaye ku gitanda ubona ko afite ikibazo cy'imvune mu ivi rye ukurikije hariho igipfuko ari kugenda agishyiraho neza mu rwego rwo kurinda mikorobe zishobora kwinjiramo zikaba zamutera kanseri.

Umugabo ubona ko ari mu cyumba kiza, kirimo bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, ubona ko ari gukora siporo zo kwiruka abifashijwemo n'umutoza uri kumugira inama ya siporo akwiye gukora mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ubona ko ari muri siporo ngororamubiri warambuye akaguru kamwe, akandi kakaba gasutamye ubona ko yarambuye akaboko ke, ari muri siporo ngororamubiri, ni byo birinda ingingo ze kuba zahura n'uburwayi butandukanye.

Ameza ariho ibintu bigiye bitandukanye byiganjemo imbuto zirimo pome, amarongi, ibikoresho byabugenewe mu gukora siporo ngororamubiri ndetse n'amazi, ibi byose iyo bikoreshejwe neza bituma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse akagira n'imbaraga n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Umurwayi ufite ikibazo cy'ingingo, ubona ko ari kwitabwaho n'umuganga amufasha kuba yahaguruka bifashishije bimwe mu byuma byabugenewe bifasha umurwayi guhaguruka, bityo akanyeganyeza ingingo mu rwego rwo kwita ku buzima bw'ingingo.

Abana bahuriye mu kibuga, ubona ko bari gukina imikino, ariko barimo kubyinira imbaga nyamwinshi, ubona ko hahuriye urujya n'uruza rw'abantu, ibikorwa bigaragaza ko abantu bishimye, bigaragara ko bari gukora siporo binyuze mu myidagaduro.

Umukobwa ubona ko uri mu cyumba ari gukora siporo apfukamishije akaguru kamwe, akandi gahagaze neza, wazamuye amaboko ye hejuru ubona ko ari kugerageza kunanura ingingo ze, mu rwego rwo kwirinda ibyago byo kurwara imitsi cyangwa se kudakora neza kw'ingingo z'umubiri.

Umugabo ubona ko ari muri siporo ngororamubiri wazamuye akaguru ke mu rwego rwo gusigasira ndetse no gukoresha ingingo ze siporo, kugira ngo zitazahura n'ikibazo cyo kudakora neza bitewe n'uko zidakora siporo.

Umugabo ubona ko afite ikibazo cy'ingingo abona ko akwiye kwitabwaho agafashwa guhabwa imwe mu miti ishobora kumukiza uburibwe ndetse akaba yavurwa byaba ngombwa akabagwa kugira ngo ingingoko ze zongere gukora neza.

Igikoresho gikoreshwa n'umuganga igihe agiye gupima uko umutima w'umurwayi uri gutera kugira ngo amuhe ubufasha, amuhe imiti igendanye n'uburwayi.

Umugabo ubona ko ari muri siporo ufite icupa mu ntoki ze ririmo amazi meza asukuye, ni ngombwa kwibuka kunywa amazi asukuye kandi ahagije igihe twakoresheje imbaraga nyinshi z'umubiri tugatakaza amazi.

Imiti igiye itandukanye ndetse n'inshinge zitandukanye, bishobora gukoreshwa nk'ibiyobyabwenge igihe umuntu yabyiteye cyangwa se yariye ibyo binini bikozwe mu bimera bigiye bitandukanye, ariko bigakora nk'ibiyobyabwenge mu mubiri w'umuntu.

Amacupa ubona ko afunze neza, arimo imiti z'ibinini, ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye, bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye twavuga nk'umuravumba ndetse n'urundi rusobe rw'ibimera.

Amwe mu mavuta akomoka ku bimera, afite ubudahangarwa bwo kuvura indwara z'uruhu, ndetse igihe umuntu afite uruhu rwumagara, ashobora gukoresha amwe muri aya mavuta, bigasubiza ububobere mu ruhu rwe.

Urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye bikorwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ziganjemo izo mu nda, imihango idakama, umutwe, kubura ubushake mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'izindi.

Amwe mavuta akomoka ku gikakarubamba afite ubushobozi bwo kurwanya indwara zimwe na zimwe zibasira uruhu ndetse akaba afite n'ubushobozi bwo gusubiza ububobere uruhu rwumaganye.

Kimwe mu bimera byamenyekanye cyane kizwi ku izina ry'umuravumba, ni kimwe mu bimera bifite ubudahangarwa, bikorwamo imiti igiye itandukanye, haba ibinini dusanga kwa muganga ndetse n'imwe mu miti gakondo ikorwa muri iki kimera cyitwa umuravumba.

Ibimera bigiye bitandukanye, ubona ko bihinze ahantu hari ibiti byinshi cyane bitandukanye bifashishwa mu gukoramo imiti itandukanye, ifasha abarwayi bafite uburwayi bugiye butandukanye, nko kugira imihango idakama, umutwe udakira n'ibindi.

Umugore n'umugabo ubona ko bahagaze ahantu hari urusobe rw'ibimera bitandukanye, umugore uri guseka wafashe ibiganza bye akabishyira imbere ndetse ubona ko bari ahantu hahinze bimwe mu bimera bishobora gutunganywamo imiti gakondo.

Urubuto rw'ipapayi ubona ko bakasemo igipande, rugizwe n'imbuto imbere hagati. Ni byiza kurya imbuto igihe turi gufata amafunguro, mu rwego rwo kwita ku mirire igizwe n'indyo yuzuye.

Ikarito ubona ko iriho ifoto y'umukobwa wifashe mu mayunguyungu, bigaragara ko harimo umuti ufasha abantu bafite ikibazo cyo kuribwa mu nda bikabije, umuti ukorwa mu rusobe rw'ibimera.

Urusobe rw'ibinyampeke bitandukanye byiganjemo ubunyobwa, ibitoki ndetse n'ibindi byatsi byose bifite akamaro mu buzima bw'umuntu mu gutanga ubudahangarwa ku muntu wese ubikoresha, ni ngombwa kwibuka kurya indyo yuzuye mu rwego rwo gukomeza kugira ubudahangarwa bw'umuntu.

Amwe mu mavuta akomoka ku kimera cyitwa igikakarubamba gitunganywa gifite vitamine ifasha uruhu rw'umuntu kugira ububobere ndetse bikaba byamukiza n'indwara nyinshi zitandukanye zishobora kwibasira uruhu.

Forever Aloe Turm ibinini bikomoka ku bimera, bifite ubushobozi bwo kuvura zimwe mu ndwara zo mu nda igihe umuntu ababara mu nda bikabije ashobora kwifashisha iyi miti ikomoka ku bimera ikamufasha.

Ameza ateguye neza ubona ko ariho imbuto zigiye zitandukanye nk'amaronji, hakaba hariho tangawize ndetse n'umutobe wakozwe mu marongi, byose bifite uruhare mu gukora imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara, ahanini izikunze kugaragara nk'izo mu nda ndetse n'izindi.

Ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba, giteye mu butaka ubona ko butunganyijwe, kifashishwa mu gukora imwe mu miti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Abaturage bari mu bikorwa byabo by'ubuhinzi, ubona ko bari mu murima urimo urusobe rw'ibimera, bikorwamo imiti igiye itandukanye n'inkingo byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye, byiganjemo ibiraba indabo, umuravumba ndetse n'ibindi byose bifite ubushobozi bwo kuba byavura indwara zitandukanye, igihe byatunganyijwe, harimo nk'umutwe udakira, kujya mu mihango idakama ndetse n'ibindi bibazo byose by'uburwayi.

Amwe mu mavuta akomoka ku bimera bigiye bitandukanye, afite ubushobozi bwo kuba yavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye ziganjemo izo mu nda, uruhu ndetse n'umutwe udakira.

Aloe berry ni amavuta akorwa mu gikakarubamba, afite ubudahangarwa ndetse yongerera uruhu rw'umuntu kugira ubudahangarwa, bikarinda umubiri kurwara indwara zigiye zitandukanye z'uruhu.

Umuti gakondo ukorwa mu kimera cy'umuravumba, ubona ko watunganyijwe, ugashyirwa mu isoko ushobora gukoreshwa n'umurwayi ufite ikibazo cy'inzoka zo mu nda zigiye zitandukanye, ashobora kuwukoresha igihe akunze kuribwa mu nda bikabije, bikamufasha kugabanya ububabare.

Amwe mu mavuta akomoka ku gikakarubamba atunganywa mu kimera cy'igikakarubamba akaba afite ubushobozi bwo kurwanya zimwe mu ndwara ziganjemo ahanini izibasira uruhu.

Imwe mu miti ikungahaye ku buziranenge ndetse ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye, zibasira uruhu ndetse no gukomera kw'uruhu, ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye twavuga nk'igikakarubamba n'ibindi.

Imwe mu miti ikorwa mu gikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ziganjemo iz'uruhu ndetse n'igihe umuntu afite ikibazo cyo kugira uruhu rwumagaye, akaba yakoresha amwe mu mavuta akomoka ku gitakarubamba bikaba byamufasha gusubiza ubuhehere uruhu rwumagaye.

Umwe mu muti ukomoka ku bworozi bw'inzuki, ukorwa mu buki ufite ubushobozi bwo kuvura zimwe mu ndwara ziganjemo n'indwara zo mu nda, igihe umuntu ababara mu nda bikabije, ashobora kwifashisha uyu muti ukomoka ku musaruro w'inzuki, bikaba byamufasha kugabanya ubwo buribwe.

Forever freedom, ni amavuta akomoka ku gikakarubamba, afite ubudahangarwa bwo kuvura indwara zose z'uruhu, akaba afite umwimerere wo gutuma uruhu rw'umuntu rusigarana ububobere ndetse akarinda uruhu rw'umuntu kumagara igihe yakoresheje amaze gukora isuku y'umubiri.

Isahane iteguye neza, ubona ko hariho itase irimo umutobe watunganyijwe uvuye mu mbuto z'amaronji, ni ngombwa gufata imbuto ku mafunguro yacu ya buri munsi mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ubona ko ari ahantu mu ishyamba ririmo urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye, ari gusoroma amababi yabyo kugira ngo agende ayatunganye ayakuremo umuti.

Amacupa atandukanye ateretse hejuru y'ameza, ubona ko ari amacupa arimo imiti igiye itandukanye iva mu rusobe rw'ibimera, bifatwa, bigatunganywa, bigakorwamo imiti ifasha abarwayi batandukanye.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye, ahanini biganjemo ibimera by'inyama ubona ko byakusanyijwe bigashyirwa hamwe, mu rwego rwo gutegurwamo imiti ishobora kwifashisha mu kuvura zimwe mu ndwara zitandukanye, nk'umutwe udakira, imihango idakama n'izindi ndwara.

Aloyemango ni amwe mu mavuta akomoka ku bimera bigiye bitandukanye havanzwemo n'imbuto zimwe na zimwe bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zibasira uruhu rw'umuntu.

Imwe mu miti ikorwa ku musaruro ukomoka ku bworozi bw'inzuki, ufite ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi bwo kuvura indwara zimwe na zimwe, ziganjemo izo mu nda, inzoka zidakira ndetse n'izindi.

Umuturage ubona ko ari mu murima uteyemo bimwe mu bimera byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, ubona ko arimo kugenda asoroma amababi y'icyo kimera kugira ngo yifashishwe mu gutunganywamo umuti.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye ubona ko byiganjemo umuravumba, igikakarubamba, imbuto zitandukanye byose bifite ubushobozi bwo kuba byavamo imiti igiye itandukanye yifashishwa igihe umuntu afite indwara.

Urusobe rw'ibimera bikorwamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo imihango idakama, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'izindi ndwara zose nka mibe, zose zivurwa n'imiti gakondo iva mu bimera bigiye bitandukanye.

Umucuruzi ubona ko ari gucuruza imiti igiye itandukanye ituruka ku bimera, ifite ubushobozi bwo kuvura zimwe mu ndwara zigenda zibasira ibiremwamuntu harimo nko kubabara mu nda bikabije, kugira imihango idakama, kubabara umutwe ndetse n'izindi ndwara zose z'urusobe zivurwa hakoreshejwe imiti gakondo.

Ahantu hateguye hari utubindi twinshi tugiye tubamo urusobe rw'ibinyampeke ndetse n'ibimera bigiye bitandukanye, byakusanyijwe, ibikorwamo imwe mu miti gakondo ifasha abarwayi mu gihe umuntu afite imihango idakama, atagira ubushake mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, ashobora gufata imiti gakondo ikamufasha.

Inyubako nini cyane irimo imiti igiye itandukanye ituruka ku bimera, yatunganyijwe igashyirwa mu macupa afunze neza, imiti ifasha uburwayi bugiye butandukanye nk'imihango idakama, kubura ubushake mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'izindi ndwara zose, hari imiti gakondo ishobora kuvura mwene izo ndwara.

Igisubizo kuri amibe, ni umuti ukorwa mu bimera bigiye bitandukanye ,bifite, ubushobozi bwo kuvura inzoka zose zo munda ndetse n'umurwayi wese uribwa munda ashobora gukoresha uyu muti uva mu bimera ukaba wamufasha gukira uburwayi.

Icyatsi ubona ko gikura kirandaranda ku butaka giteye mu butaka buteguye neza, gifite amababi ahishye ndetse n'indabyo ubona ko imvura n'izuba bikigeraho kikamera neza.

Umuravumba ni kimwe mu bimera bifite ubushobozi butandukanye ikorwamo imiti igiye itandukanye, haba ibinini byifashishwa mu kuvura umutwe ndetse n'indwara zo mu nda cyangwa se ikifashishwa mu gukora imiti gakondo igiye itandukanye.

Imwe mu miti ikorwa mu bimera cyane cyane nk'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura umurwayi ndetse hitabwa gusigasira ububobere bw'uruhu rw'umuntu.

Ibimera ubona ko bisa neza cyane, birimo umuravumba n'urundi rusobe rw'ibimera, biri ahantu mu murima ubona ko byitaweho neza byifashishwa mu gukora imwe mu miti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Bikapi ni umwe mu muti ukorwa mu bimeraye bigiye bitandukanye harimo nk'ibikarubamba, umuravumba, ndetse n'urundi rusobe rw'ibimera bitunganywa neza bikaba bifasha umuntu kuvura indwara z'uruhu.

Umugabo ubona ko ari mu iduka ricuruza imwe mu miti ikomoka ku bimera, ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'umutwe udakira, kuva kw'imihango idakama n'izindi ndwara zose zishamikiye ku rusobe rw'ubuzima.

Umurima munini cyane ubona ko uhinzemo ibimera byiganjemo imiravumba yifashishwa mu gukora imwe mu miti tugenda dusanga hirya no hino mu bitaro ndetse ikaba yifashishwa no gukora imwe mu miti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Umuganga gakondo ubona ko ari mu ivuriro ricuruza imiti igiye itandukanye iva ku bimera bigiye bitandukanye ifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi harimo: Nk'imihango idakama, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'izindi ndwara zose z'urusobe zivurwa n'imiti gakondo.

Inyarabasanya ni bimwe mu bimera usanga hirya no hino bifite ubushobozi butandukanye bishobora gukorwamo umuti ushobora kuvura umurwayi igihe afite zimwe mu ndwara zigiye zitandukanye.

Bimwe mu bimera bigiye bitandukanye hirya no hino, bikorwamo imiti igiye itandukanye ishobora kuvura indwara zitandukanye, nk'imihango idakama, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye, hifashishwa imiti gakondo.

Abaturage batandukanye ubona ko higanjemo inzobere mu bigendanye n'ubuhinzi bambaye imipira y'icyatsi ubona ko bari mu murima wahinzwemo igikakarubamba kugira ngo hatezwe imbere ibimera byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye.

Ameza ubona ko ateretseho amacupa afunze neza arimo imiti ikomoka ku bimera bigiye bitandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda, twavuga nk'inzoka z'amibe ndetse no kubabara mu nda bikabije, umuntu ashobora gukoresha uyu muti akaba yagabanya uburibwe.

Ingemye zikiri ntoya ubona ko ziri mu ihugutiro, zitaweho kugira ngo zizaterwe, bityo zikorwemo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, urugero nk'igihe umugore afite ikibazo cyo kujya mu mihango idakama.

Amavuta akorwa mu gikakarubamba afite ubushobozi, bwo kuvura indwara zitandukanye z'uruhu ndetse akaba yakifashishwa mu gusubiza ububobere uruhu rukunda kugira ikibazo cyo kumagara, igihe umuntu ayakoresheje nyuma yo gukorera isuku umubiri bikaba byamufasha agakira indwara.

Byinshishi ubona ko bimwe byakuze kurusha ibindi, bigizwe n'amashami manini cyane, ariho ibyatsi bisa neza cyane ubona ko byitaweho, imvura yabigezemo.

Amacupa afunze neza ubona ko ariho ibyapa bigaragaza urusobe rw'ibimera, bifatwa bigatunganywamo iyi miti ifasha abantu bafite indwara zitandukanye nko kubabara mu nda bikabije, kugira imihango idatama, umutwe udakira ndetse n'izindi ndwara.

Umurima ubona ko wuzuyemo ibimera bigiye bitandukanye byiganjemo ibyatsi indabyo umuravumba wifashishwa mu gukora imwe mu miti idusanga hirya no hino mu bitaro, ndetse ukaba ukorwamo n'umuti wifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Ameza ubona ko atereretseho imiti igiye itandukanye, ipfunyitse neza, imiti ikomoka ku rusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye, bifatwa bigatunganywa, bigakorwamo imiti izifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umurima ubona ko uteguye neza urimo ibimera byifashishwa mu gukora imiti itandukanye bizwi nk'umuravumba, bikorwamo ibinini byifashishwa kwa muganga ndetse n'indi miti igiye itandukanye ikiza indwara zirimo nk'inzoka zo mu nda, kubabara bikabije ndetse n'ibindi.